Inyubako yubatswe kijyambere itangirwamo serivisi z'ubuzima, aho abarwayi bafite ibitanda byo kuryamaho bya kijyambere.

Inyubako yubatswe kijyambere, itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, aho umurwayi yaje kureba muganga ngo amutere urushinge akire.

Inyubako yubatswe kijyambere icururizwamo imiti idufasha kugira ubuzima buzira umuze.

Ibyatsi bitandukanye， harimo umugwegwe n'umusave，byifashishwaga n'abanyarwanda，mu kuvura indwara zitandukanye harimo，abantu n'amatungo.